Umurwayi wicaye mu cyumba cy'ivuriro, uri kuvurwa n'umuganga indwara zigiye zitandukanye, zimufasha kugira imibereho myiza, akabasha kwiteza imbere mu bigendanye no kuba yakora kubera ko atarwaye.

Abantu bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka croix rouge, bateruye umudamu wagize ikibazo aho bari kumwihutana kwa muganga ngo abashe kwitabwaho.

Umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi uri gutwarwa n'abaganga, bajya kuvura indwara igiye itandukanye yarwaye kugira ngo agire ubuzima bwiza, abashe gukora imirimo ye ya buri munsi.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bateraniye hamwe bari mu nama bari kwiga ibijyanye n'imitangire y'ubuvuzi mu Rwanda uko ihagaze.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda witwa croix rouge, bakaba bambaye utujire turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Abaganga bari kuvura abarwayi batandukanye indwara zabo kugira ngo bagire imibereho myiza ndetse bagire icyo bimarira mu bigendanye n'iterambere bagire icyo bageza ku gihugu.

Abaturage bari guhabwa inzitiramubu ndetse na matela zo kuraraho kugira ngo barinde Malariya, bagire ubuzima bwiza, bubasha gutuma bakora imirimo yabo ya buri munsi mu mahoro.

Icyumba kiza kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo uburiri ndetse n'ibitanda, ibikapu ndetse n'utubati, bifasha abarwayi kuvurwa neza, bafite aho bavurirwa ho kuryama.

Abarwayi barwariye mu cyumba kirimo ibitanda n'amamatela bari kuvurwa indwara zigiye zitandukanye ngo bagire ubuzima bwiza babashe gukora imirimo yabo ya buri munsi ari bazima.

Akadege gatoya gatwara imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi, harimo amaraso ndetse n'ibinini, bifasha abarwayi kuvurwa byihuse batabashije gutindizwa imiti.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishijwe amabuye ya rukaragara, y'ikigonderabuzima cya Tabawe, bifasha abarwayi kwivuza, bakabona imiti ibafasha kubaho neza.

Abantu benshi bagiye kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi bo muri Nyagatare, bari kugenda mu muhanda mwiza wa kaburimbo ubafasha kugera iyo bagiye bakabasha guhabwa ibiganiro.

Abaganga bari gusuzuma umuti ugiye guterwa umurwayi kugira ngo avurwe indwara zitandukanye, zimufasha kugira ubuzima bwiza, agakora imirimo ye ya buri munsi mu mahoro.

Ni byiza ko kwa muganga bagira ibitanda abarwayi barwariraho kuko baruhukiraho, bakabasha kuvurwa batekanye, ibi kandi bifasha abarwayi kongererwa imbaraga zo kubaho, bakagira icyo bamarira Igihugu.

Umuhanda mwiza wubatse ku buryo bugezweho, wubakishije amatafari ndetse n'ibyuma, ufite agacaca imbere yawo ndetse n'abantu bicaye mu nyubako iri imbere y'umuhanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe ku bitaro bigaragara ko ari abaganga, bakaba bari kwishimira urwego bagezeho batanga serivisi z'ubuvuzi, aho bahagaze mu busitani bari kwifotoza.

Ibitaro byubatse neza bya Gatunda, bifasha abahivuriza kubona ubuvuzi bwihuse, bubafasha kwiteza imbere kuko bafite ubuzima buzira umuze, bigira icyo bibafasha.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo abaganga, bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye, icyatsi, ubururu bwerurutse ndetse n'ubururu bwijimye. Bakaba bose bafite udupfukamunwa, bariyeyemeje gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Abaganga bari kuvura abarwayi, bafite imiti mbere yabo ku meza ifasha abarwayi kuvurwa indwara zigiye zitandukanye, zibasha gutuma bagira imibereho myiza.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi, akaba ari kumanika serumu agiye gutera umurwayi kugira ngo uwo muti uri muri serum ugende umumanukiramo, hanyuma umurwayi aze kumererwa neza.

Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye ubururu, umutuku, umweru ndetse n'ayandi, bicaye imbere y'inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'inzugi zisize irangi ry'umweru.

Abarwayi bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye umutuku, umweru, icyatsi ndetse n'ayandi, bategereje kuvurwa indwara zabo ngo babashe gukira amahoro.

Abantu bagera muri batandatu harimo umugore umwe, bakaba bahagaze bari kwifotoza, bigaragaza ko batanga serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, bahagaze mu mbuga ishashemo amapave.

Inyubako y'ishuri iteraniyemo abantu bagiye batandukanye aho iyi nyubako ari nziza cyane, hakaba hahuriyemo abantu bari kubigisha uburyo bugiye butandukanye bakoresha bari kugirira isuku umubiri wabo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'urubyiruko biga ubuzima bw'imyororokere, bibafasha kugira ibyo bimarira, bakunguka ubumenyi bugiye butandukanye bubarinda mu mibereho yabo ya buri munsi.

Icyumba kirimo abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye ubururu, umukara, umweru, icyatsi ndetse n'ayandi, bicaye bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye, bifasha uhakorera kubona amafaranga amutunga, akabasha gutunga umuryango we ndetse akigira icyo yimarira.

Bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga harimo mayikorosikope bifasha abaganga ndetse n'abandi babikoresha kubona ibintu bitagaragara bitabonesha ijisho babikoresha cyane cyane kwa muganga bareba indwara zigiye zitandukanye akantu runaka katagaragara agasimba se cyangwa se umwanda ushobora kuba uri mu maraso cyangwa indwara runaka.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi by'imiti ishobora kwangiza, bifasha abanyeshuri kwiga ibintu bigiye bitandukanye, bibageza ku iterambere.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru bari muri laboratwari ibafasha kwiga ubumenyi bugiye butandukanye, bubateza imbere bakagira icyo bimarira, ndetse n'icyo bamarira igihugu muri rusange.

Umuganga wicaye, ari kurebera muri Mikorosikopi indwara z'abarwayi zitandukanye kugira ngo abavure neza ndetse babashe kugira ubuzima bwiza babashe gukira.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwigishwa amasomo agiye atandukanye, abasha kubungura ubumenyi kugira ngo bagire icyo bazageraho, bakabasha kugira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira igihugu.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati, ifite inzugi z'icyatsi ndetse n'ibyuma bizirinda kwangirika bisize amarange y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Inyubako nziza irimo abantu benshi, barimo barafana umupira kugira ngo babashe kwidagadura ndetse bagire n'ubumenyi bugiye butandukanye, babasha kungukira aho ngaho.

Icyumba cy'abarwayi b'abagore babyariramo, babasha kuboneramo abana babo, bakitabwaho bagahabwa ubuzima bwiza, bakabasha kugira icyo bigezaho.

Abanyeshuri bari kunywa igikoma ndetse bakabasha kugira ubuzima bwiza, kuko bari munsi y'imyaka itanu, bibateza imbere mu bigendanye n'imibereho, bakagira ubuzima bwiza.

Abagore benshi bagiye batandukanye bambaye udupira tw'ubururu, buri wese akaba akikiye umwana we ari kumwonsa biragaragara ko iyi ari gahunda ya Leta yashyizweho yo kwita ku babyeyi bafite abana maze bakayabyaza umusaruro.

Icyumba k'ishuri kirimo abanyeshuri b'inshuke bari kugaburirwa ibiryo ku meza bicaye ku ntebe, bibafasha kugira ubuzima bwiza, ndetse bakiga amasomo yabo bishimye.

Abanyeshuri bari gukarabira kuri kandagira ukarabe, bari kozwa n'umwarimu wabo kugira ngo babone uko barya ibiryo byabo, bafite isuku, bibarinda indwara zigiye zitandukanye.

Abarwayi bicaye kwa muganga bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo umutuku, umweru ndetse n'icyatsi, bari kubwirwa uburyo bari buvurwe bakabasha kubona imiti.

Abaturage benshi bateraniye hamwe aho bari gukoma mu mashyi, higanjemo abagabo aho bahagaze ahantu inyuma yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bambaye udupfukamunwa bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo amahugurwa y'ubuzima bwo mu mutwe, abakozi batanga serivise z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iriho icyapa cyometse ku rukuta, kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego k'ikigo k'Ihugu gishinzwe ubugenzacyaha, handitseho ngo Isange one stop centre.

Icyumba cy'inama kirimo abapolisi bari guhabwa amabwiriza agiye atandukanye, abasha kuyobora abaturage neza kugira ngo tugire umutekano ndetse tubashe no kubona imibereho myiza biturutse kuko tumeze neza.

Icyapa kiza kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, cyanditseho twite ku buzima bwo mu mutwe, kugira ngo abaturage bakimenye ndetse bagire nibyo bunguka ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Icyapa cyiza kiriho amagambo yabaho neza, twite ku buzima bwo mu mutwe, imyitwarire ishobora gutera ihungabana ndetse n'indi, bifasha ababisoma kugira ubumenyi bunguka bugiye butandukanye bwo kugira imyitwarire myiza.

Abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye harimo ubururu, umukara, umweru ndetse n'ayandi. Bicaye ku ntebe y'urubaho, barimo barabwirwa amabwiriza atandukanye abafasha kwiteza imbere.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, igize n'amabara y'umutuku, umweru, ubururu ndetse n'ayandi, icururizwamo imiti igiye itandukanye, ivura abarwayi bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza irimo ibikoresho by'imiti ikoreshwa mu kuvura abaturage, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, babashe gukora imirimo yabo ya buri munsi, bafite imibereho myiza.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije umucanga ndetse n'amabati, amatafari ahiye igizwe n'amabara atandukanye harimo umukara, ubururu ndetse n'icyatsi, ni ivuriro rivurisha ibimera bya gakondo.

Inyubako nziza irimo ibicuruzwa by'imiti bigiye bitandukanye, bifasha umucuruzi kubona uko avura abaturage bakamuha amafaranga, amuteza imbere akagira icyo yigezaho.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho y'ivuriro ifite umuhanda imbere yawo mwiza ufasha abaza kwivuza kubona uko bahagera neza, bakabona imiti ibavura indwara zabo.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho ifite amarange y'umuhondo ndetse n'inzugi z'icyatsi, icuzwamo imiti igiye itandukanye ifasha abarwayi gukira indwara zitandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, ifite icyapa imbere yacyo kigaragaza ko hari imiti ikoreshwa mu matungo, bifasha aborozi kubona umusaruro utubutse ubateza imbere.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye ivura inyamaswa ndetse n'abantu, bizifasha kubaho neza ndetse zigatanga umusaruro ushimishije ndetse n'abantu bakagira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye, ifasha abarwayi kubona uko bivuza, bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane ya farumasi irimo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho umuntu wese urwaye ahanyarukira hanyuma akabasaba umuti bakawumuha, maze akavurwa agakira.

Akabati karimo amoko menshi agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti yifashishwa n'abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi, aho bagenda bayiha umuntu wese urwaye waje kugura imiti kugira ngo akire.

Icyumba kirimo utubati turimo imiti igiye itandukanye ifasha abagenzi kubona uko bihuza ndetse bakagira imibereho myiza, ibateza imbere kugira ngo bagire icyo bageraho.

Imiti ikoreshwa kwa muganga igiye itandukanye ivura abaturage indwara zitandukanye, harimo umutwe, mu nda ndetse n'ibindi, bifasha abantu kubona uko bagira ubuzima bwiza.

abacuruzi bacuruza imiti igiye itandukanye, ifasha abaturage kugira ubuzima bwiza, bakabasha kuvurwa indwara zigiye zitandukanye, bikabarinda kubona ubwo bagira ibyago, ndetse bakagira ubuzima bwiza.

Amacupa ari mu mabara y'umweru, ariho icyapa gishushanyijeho inka n'inkoko, bigaragara ko harimo umuti wifashishwa mu kuvura aya matungo, igihe cyose yaba yagize indwara runaka.

Abaganga bari kuvura abaturage basanze aho baba kugira ngo bagire ubuzima bwiza babashe gukora imirimo yabo ya buri munsi mu mahoro, bagire icyo bigezaho ndetse n'icyo bageza ku gihugu.

Abaturage bafite icyapa cyamagana ibiyobyabwenge, bari kugenda mu muhanda bashishikariza abantu kwirinda ibiyobyabwenge kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse babashe no kwiteza imbere.

Abanyamakuru bari ku ifoto bagiye batandukanye bo kuri radiyo, babasha kutugezaho amakuru agiye atandukanye yabereye mu gihugu, tukabasha kumenya ibyabaye tudahari.

Ifoto igaragaza abanyamakuru babiri bakora kuri radiyo baribuze gutanga ikiganiro saa cyenda kugeza saa cyenda n'igice, nshishikariza abantu kwitabira icyo kiganiro.

Abantu bambaye impuzankano zisa bahagaze imbere y'ameza arimo uducupa tw'amazi ndetse n'udutabo bicayeho, bagira ibyo baganira bigiye bitandukanye bigendanye na kampani bakorera.

Abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, iy'ubururu, umutuku, umukara ndetse n'icyatsi, bicaye mu cyumba, bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye, abafasha mu bigendanye n'imibereho yabo.

Umuganga uri gupima ubushyuhe umurwayi ndetse akareba n'uko amerewe mu mubiri ngo agire ubuzima bwiza, abashe kugira icyo yimarira n'icyo amarira igihugu.

abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'umukara, bicaye mu mumatente, imbere y'inyubako nziza ifite amabara y'umuhondo.

Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo iy'icyatsi, umukara ndetse n'ubururu bari guhabwa ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo bagire icyo bimarira ndetse n'icyo bageza ku Gihugu.

Umucuruzi uri gucuruza imiti ya gakondo, ifasha abantu kuvurwa indwara zigiye zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza, bibateza imbere mu mibereho yabo.

Abantu bambaye impuzankano z'ubururu, bavura indwara zigiye zitandukanye za gakondo kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, babashe kwiteza imbere mu mibereho yabo.

Abacuruzi bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo karoti ndetse n'ibindi, bicaye bategereje abaguzi kugira ngo bagure ibicuruzwa byabo babone amafaranga.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye ya gakondo, ivura indwara zitandukanye kugira ngo abaturage babeho neza, bagire ubuzima bwiza, bibateza imbere.

Amacupa ari mu mabara y'umweru, afite n'imipfundikizo y'umweru, akaba ashushanyijeho inka nziza za kizungu n'ihene ndetse n'inkoko y'urusake, bigaragara ko uyu muti uvura aya matungo yose.

Icyumba kirimo umuganga uri kubwira abaturage, uburyo bakwirinda ndetse bakivuza indwara zigiye zitandukanye n'uburyo bagera ku iterambere mu mibereho yabo.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho igizwe n'amabara agiye atandukanye harimo umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'amabatisa asa ubururu, iriho abajya kwivuza babasha kuvurwa indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba kirimo abaturage bambaye imyenda y'amabara atandukanye arimo umutuku, umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'ayandi, bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho yubakishije amabuye ya rukarakara, ifite amabati y'ubururu ndetse n'inzugi z'umukara. Ifasha uhaba kuba ari ahantu heza ha ndetse h'abasirimu.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, ifite amarange y'ubururu umweru, ubururu bwera ndetse ifite aho bakarabira ndetse n'intebe, harimo abaturage babasha gukemurirwa ibibazo byabo.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije amabati ndetse n'umucanga, isize amarangi y'ubururu, ifite icyapa imbere ndetse n'abantu bambaye amataburiya y'umweru n'abandi binjiramo baza kubareba.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho. Isize amarangi y'ubururu ndetse n'icyatsi, iriho akantu bakarabiraho kugira ngo binjiremo bafite isuku. Ni ivuriro rya Girububuzima, rifasha abantu kwivuza.